Ni abana b'abanyeshuri harimo n'abahetse udukapu, bavuye ku ishuri bari gukinira mu muhanda, kandi ibi bishobora guteza impanuka mu gihe haje ikinyabiziga bikaba by'abagonga.

Abana bicaye ku musambi w'umukeka, ushushanyijeho n'amabara y'umweru, ay'umutuku n'ay'ubururu. Abana bakoze uruziga, bafite udukombe tw'icyatsi kibisi, bari kunywa igikoma.

Abana bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amakabutura y'ubururu, bicaye ku ntebe kandi imbere yabo hateretse ameza abaje mu giti, bari mu ishuri risize irange ry'umweru ku nkuta, iryo shuri rifite n'urugi rw'ubururu.

Abana bambaye udukabutura tw'ubururu n'amashati y'imyeru, bari gukinira mu muhanda, ibingibi byo gukinira mu muhanda bishobora guteza impanuka, mu gihe haba haje nk'ikinyabiziga bakabagira ikibazo.

Abana barimo abambaye amashati y'imihondo bicaye hasi ku mbuga. Barimo baratoragura amabuye, azifashishwa mu kubara. Bati mu gihe bazaba bari kwiga imibare, bazajya bakoresha ayo mabuye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'amajipo y'ubururu n'amapantaro y'ubururu, bicaye mu ishuri imbere yabo hateretse ameza ateretseho ibitabo bari kuganira, intebe bicayeho harimo iz'icyatsi kibisi kandi inyinshi zibaje mu biti.

Abana bari kwigira kuri mudasobwa, mudasobwa yatanzwe muri gahunda ya mudasobwa imwe kuri buri mwana hagamijwe kuzamura ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu burezi.

Isomero rifite urugi rw'ubururu ririmo utubati tubitsemo ibitabo, hejuru y'utubati hari imipira yo gukina, muri iryo somero kandi harimo ameza ateretseho ibitabo.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gifite inzugi n'amadirishya bikoze mu byuma, gisakaje amabati y'umutuku ariko ashaje, kizengurutswe n'urugo rwubakishije senyege, imbere y'icyo kigo haca agahanda k'igitaka.

Mu kigo cy'amashuri kirimo amashuri yubakishije amatafari asakaje amabati y'ubururu, ariho inzugi n'amadirishya by'ibyuma bisize irangi ry'umweru, imbere yaho hari abanyeshuri bari gukinira mu busitani, iki ntago ari ikintu kiza gukinira mu busitani kuko bibwangiza.

Ikigo cy'amashuri kizengurutswe n'uruzitiro rwubakishije amatafari, imbere yaho hashinze icyapa cy'umweru cyanditse izina ry'iryo shuri mu mabara y'umukara, haparitse n'abamotari bari kuri za moto, mu nkengero z'iryo shuri hanyuramo akayira gashashemo amapave.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu bari mu ishuri, ishuri ririmo ikibaho cy'umukara n'intebe zo kwicaraho zibaje mu biti, kandi abo banyeshuri bahetse udukapu tw'umukara dufitemo n'amabara y'umutuku, barimo barasaba ingwa zo kwandika ku kibaho kugira ngo bige neza, kandi n'amakayi yabo bajye bayandikamo bayakoreremo imyitozo.

Urupapuro rw'umweru rwometse ku gikuta gisize amarangi y'igitare. Urwo rupapuro rwanditseho ubwoko bw'ubutaka, harimo: ubutaka bw'umucanga, ubutaka bw'ibumba ndetse n'ubundi butandukanye.

Icyapa gifite amabara y'ubururu n'umweru cyomekesheje ku rukuta rwubakishije amabara ahiye. Kuri icyo cyapa kirakangurira abantu kwirinda Corona virus, kibamenyesha ibimenyetso by'iyo ndwara.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kake n'amakanzu y'ubururu, bari imbere y'amashuri ashakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye kandi ayo mashuri afite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umukara.

Ishuri rifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo, ryometseho urupapuro rw'umutuku rushushanyijeho imbonerahamwe yerekana uburyo abanyeshuri bazajya biga amasomo mu bihe bitandukanye.

Mu inzu nziza yo kubamo. Muri iyo nzu harimo akabati kabaje mu giti, hejuru y'akabati hateretsemo ibikombe, imidari ndetse iyo nzu irimo na parafo y'umweru.

Amakayi abana bigiramo gushushanya ndetse bakigiramo n'amasomo atandukanye harimo Icyongereza, Ikinyarwanda, Imibare, Ubutabire, Ubugenge ndetse bakanashushanyamo amasaha atandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n’amashati y’ubururu n’amajipo ya kake, bahagaze inyuma y’urugi rukoze mu byuma, bari kurunguruka abandi banyeshuri bari gukinira mu kibuga kiri imbere y’amashuri bigiramo.

Ubwiherero rusange bw'abanyeshuri, bwubakishije amatafari ahiye, busakaje amabati, rukingishije inzugi z'ibiti, ruzengurutswe n'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, kandi bufite isuku.

Abanyeshuri bashushanyije ibikoresho byifashishwa mu ubuhinzi n'ubworozi, harimo umuhoro, igitiyo, najoro, isuka, ipiki, lozwari ndetse n'ibindi byinshi, barangije urupapuro barwomeka ku gikuta cy'ishuri.

Ishuri risize irangi ry'umweru ku nkuta, rifite n'ibirahure ndetse ririmo n'ikibaho cy'umukara cyometse ku nkuta, harimo intebe abanyeshuri bicaraho, izo ntebe zibaje mu biti ndetse harimo n'abana babiri bicaye muri izo ntebe.

Abanyeshuri bambaye iniforume ya kake n'amashati y'umweru, bahagaze mu idirishya bari kurunguruka mu ishuri, iryo shuri ryubakishije amatafari ahiye kandi rishakaje amabati, kandi inzugi n'amadirishya by'iryo shuri bisize irange ry'umukara.

Urukuta rusize irange ry'umweru rufite n'umuzenguruko w'umukara, rushushanyijeho umugabo ufite ubwanwa bwinshi, ufite igitabo mu ntoki, ufite n'inkoni ndende mu ntoki ndetse witwikiriye n'igitambaro mu mutwe.

Inzu zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati y'ubururu, ruguru yazo hari umurima uteyemo ibigori, avoka ndetse izo avoka za kijyambere zizasarurwa zijyanwe ku isoko abaturage babone amafaranga.

Urupapuro rushaje, rumanitse ku kirahure cy'idirishya mu ishuri. Rushushanyijeho imbonerahamwe yerekana uko amasomo agenda yigwa, bitewe n'uko iminsi y'Icyumweru imeze. Igenda yerekana guhera ku wa Mbere kugera ku wa Gatanu uko amasomo agiye apanze.

Ikigo cy'amashuri, cyubakishije sima, kandi gisakaje amategura. Imbere y'ishuri, hari ibyicundo abana bashobora kuryamo iminyenga, ariko haba hari ibyago by'uko bashobora kuvunika. Icyo kicundo, gikikijwe n'indabo, zifite amabara y'imihondo.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye hamanitsemo urupapuro rw'umuhondo, rushushanyijeho ibikoresho bitandukanye harimo baro, intebe ndetse n'ibitabo.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye, ririmo n'ikibaho cy'ibara ry'icyatsi ndetse n'amashusho yifashishwa mu gusobanurira abanyeshuri ibyo bari kwiga.

Ishuri rishakaje amabati ku rukuta rw'ishuri hariho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'ubururu, kiriho indangagaciro na za kirazira z'abanyeshuri biga muri iryo shuri, mu mbuga y'iryo shuri hashashemo amapave.

Urukuta rurerure rwubakishije amatafari rurimo n'umurongo w'umweru hagati wanditsemo inyuguti z'umukara, hometseho igipapuro gishushanyijeho ibimenyetso byifashishwa mu kuganira mu rurimi rw'amarenga.

Urukuta rw'ishuri rusiza amarangi y'umweru rwanditseho inyuguti guhera ku ya mbere kugera ku ya nyuma, hakaba hariho n'imibare yanditse mu mabara yose guhera kuri zeru kugera ku icyenda, hirya y'urwo rukuta hari jaride zitoshye neza.

Ababyeyi hamwe n'abanyeshuri bambaye karuvati bari kwifotoreza imbere y'inzu ifite inkuta zisize amarange y'umweru.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati y'imituku, imbere yayo haca agahanda gaparitsemo imodoka kandi ako gahanda kubakishije amabuye.

Abana bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu bari kurya, bari kurya ibiryo biri mu tubase dukoze mu byuma ndetse ku meza yabo bafiteho n'amata y'inyange.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru, amajipo, n'amapantaro by'ubururu n'imipira y'ubururu, bicaye mu busitani buri hafi y'ishuri ryubakishije amatafari ahiye, rifite n'amadirishya asize irangi ry'ubururu, bari kumwe na mwarimu wabo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amapantaro n'amajipo bya kacye, bicaye muri salle isakaje amabati, kandi iyo salle ifite parafo zikoze mu biti, inzugi z'iyo salle zisize amarangi y'icyatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, amajipo n'amapantaro bya kake, bahagaze mu mbuga bari hamwe, imbuga ishashemo amapave kandi imeze neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, amajipo ya kake n'amasosogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, bari kwinjira mu ishuri rifite amadirishya akoze mu byuma asize amarangi y'umweru.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gishakaje amabati y'ubururu ku nkuta zizeho irangi ry'umweru, kandi ayo mashuri afite n'inzugi zikoze mu byuma zisize n'irangi ry'umukara.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'ubururu, amajipo n'amapantaro by'umukara, hirya yabo hari inzu isize amarange y'umweru, ishakaje amabati y'umutuku. Imbere yabo hari umwarimu uhahagaze, uri kubaha amasomo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, amapantaro n'amajipo bya kake. Bicaye mu ishuri bakoze uruziga, iryo shuri ryubakishije amatafari ahiye, rifite inzugi n'amadirishya zikoze mu byuma. Hagati mu ruziga bakoze harimo umwarimu wabo uri kubaha amasomo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri abo banyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amajipo n'amapantaro bya kake, abo banyeshuri bafite za mudasobwa bigaragara ko mudasobwa ari ingenzi mu myigire yabo kuko ikoranabuhanga rizamura uburezi.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bafite za mudasobwa ku ntebe yabo ndetse na projegiteri ibafasha mu kwiga, bafite ibi ibikoresho by'ikoranabuhanga, kubera ko ikoranabuhanga ari ingenzi cyane muri uburezi, ndetse no mu myigire y'abanyeshuri, ndetse no mu mitsindire yabo muri rusange.

Umunyeshuri wambaye ipantaro n'ishati y'umweru ari mu ishuri rifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ari kwandika ku kibaho cy'umukara akoresheje ingwa. Arimo arashushanya ikinyampande mu mibare.

Ikigo cy'amashuri gifite amashuri yubakishije amatafari ahiye ndetse asakaje n'amabati. imbere y'ayo mashuri hari ikibuga cya "Volley" kirimo abanyeshuri bari gukina "Volley", hateretsemo n'intebe zibaje mu biti ndetse n'ameza.

Imbuga iri imbere ya etaje zubakishije amatafari ahiye n'inyubako zisakaje amabati y'ubururu, hashashemo amapave kandi hateyemo n'amatente, imbere hari ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo n'abandi bantu bari gufotora.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kake n'umweru bahagaze ku ntebe imbere y'ishuri, barimo barakora amasuku ku birahuri by'amadirishya y'ishuri. Mu muryango w'iryo shuri hahagaze umunyeshuri w'umukobwa. Ku rukuta rw'ishuri hashushanyije ikarita y'Afurika.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, amajipo n'amapantaro ya kake, bicaye mu busitani munsi y'igiti, abandi bahagaze munsi y'ibiti, imbere yabo mu mbuga hahagaze abayobozi babo batatu bari kubaha ibiganiro.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu n'umweru, bicaye mu ishuri bari kwandika note kandi iryo shuri ku madirishya yaryo nta marido ariho, inyuma muri iryo shuri hari ikibaho kandi iryo shuri rifite n'amakositara.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'ubururu bwijimye. Bicaye mu ishuri kandi, imbere yabo hateretse za mudasobwa zo mu bwoko bwa fik pad.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amapantaro n'amajipo by'ubururu, bica mu busitani buri imbere y'ishuri, ishuri ryuyubakishije amatafari ahiye, rishakaje n'amabati y'umutuku.

Icya cy'ishuri rya Gahogo, cyerekana amashami yigishwa muri iryo shuri, harimo Imibare, Ubugenge n'Ubumenyi bw'Isi, hakaba harimo Imibare, Ubugenge ndetse n'Ubumenyi bwa Mudasobwa.

Ishuri ryo kwigiramo ririmo intebe abanyeshuri bigiramo kandi hejuru y'izo ntebe harambitseho amakaye, muri iryo shuri harimo n'utubati dufungiranyemo ibitabo, hirya y'aho hari akandi kabati gafunguye.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye, ruzengurutswe n'igipangu cy'amatafari, kandi urwo rusengero rusakaje amabati y'imituku, imbere y'urwo rusengero haca umuhanda, hari n'abantu bari kwinjira baza, harimo n'umwe ufite igare.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye, rishakaje amabati y'umutuku, ku nkuta z'iryo shuri hometseho icyapa cyanditseho n'amagambo y'ubururu, kandi iryo shuri rifite amadirishya n'inzugi by'imikara, hafi y'iryo shuri hateye ibiti birebire.

Abakinnyi ba Volley b'ikigo cy'amashuri bambaye amajezi y'ubururu. Bahagaze imbere y'ishuri rishakaje amabati y'umutuku ndetse ryubakishije amatafari ahiye. Amadirishya n'inzugi by'iryo shuri, bisize irangi ry'umweru.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru amajipo n'amapantaro bya kake amasogisi y'umweru, n'inkweto z'umukara bahagaze iruhande rw'imodoka, ifite urugi rukinguye imbere yabo hari inyubako nshyashya y'etage bari kubaka, kandi hari n'ishuri ryubakishije amatafari ahiye, risakaje amategura kandi hejuru y'izo nyubako haca insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Umunyeshuri wambaye ishati y'ubururu, ateruye agasafuriya k'icyuma karimo imboga, arimo aragenda mu kayira k'igitaka arabijyanye ngo abijyane mu ishuri babirye.

Umwarimu ahagaze imbere y'ishuri ryubakishije amatafari ahiye risakaje amabati, inzugi n'amadirishya by'iryo shuri bikoze mu cyuma kandi bisize n'irangi ry'ubururu kandi kuri iryo shuri risize n'amarangi...

Inyubako yubakishije amatafari, ishakaje amabati y'ubururu, izengurutswe n'ruzitiro rwibyuma; rugura yiyo nyubako hari agahanda gashashe amapave, karimo imodoka y'umuhondo n'abantu b'abanyamaguru bari kugenda.

Abanyeshuri basuye ahakorera ikigo cy'itangazamakuru, aho iyo nyubako ifite igisanduku imbere yayo, gisize amarangi y'umweru, kinashushanyijeho mu mabara y'ubururu, agiye atandukanye.

Ikigo cy'amashuri gifite amashuri yubakishije amatafari ahiye asakaje n'amabati y'ubururu. Hari n'amashuri yometseho ibyapa by'umweru. Ku mbuga y'iryo shuri ni ivumbi kuko nta jaride zihateye, hahagazemo akana.

Abantu bicaye muri salle nini ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ku madirishya n'inzugi by'iyo salle hariho ibirahure kandi hamanitseho n'amarido, imbere yabo hicaye abantu bari kubaha ibiganiro.

Inyubako ndende zigerekeranye kandi zisakaje amabati y'umutuku, zizengurutswe n'ubusitani bwiza butoshye, kandi muri ubwo busitani hateyemo ibiti birebire. Hirya y'ubwo busitani hari imbuga iharuye.

Bisi ya Kaminuza y'u Rwanda y'ibara ry'umweru yanditseho ibirango bya Kaminuza y'u Rwanda mu mabara y'ubururu, iyo bisi ifite ibirahure byijimye kandi mo imbere hicayemo abagenzi.

Ni salle nini yicayemo abantu, intebe... bicaye ku ntebe z'imituku. Ifite inzugi zikoze mu byuma zifite ibara ry'umukara. Abantu bicaramo bari mu gihe cy'imyidagaduro, cyangwa se mu gihe cyo gukurikira inama zitandukanye.

Abantu bicaye ku ntebe, intebe ziri mu nzu, inzu yubakishije amatafari ahiye kandi ku nkuta z'iyo nzu hasizeho amarange y'umweru, imbere yabo harateretse imeza ziriho imashini, hakurya y'inzu barimo hari indi nzu yubatse neza isize amarange y'umweru, isakaje n'amabati y'umutuku.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bafite za mudasobwa barimo bariga ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ingenzi cyane mu guteza imbere uburezi, cyane cyane ko baba bifashisha za mudasobwa.

Icyapa cyerekana Kaminuza y'Abagatulika mu Rwanda. iki cyapa gifite ibara ry'umweru kandi inyuguti zanditse kuri icyo cyapa zanditse mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda w'igitaka, hakurya no hakuno yawo hubatse inzu z'amatafari ahiye zisakaje amabati atukura, uwo muhanda ntabwo ukoze neza, biragaragara ko wazanyereza imodoka mu gihe cy'imvura.

Ishuri ririmo amadirishya, inzugi n'intebe, ni ishuri abanyeshuri bakoresha bari kwiga biga cyane cyane amasomo yabo higanjemo Imibare, Ubutabire, Ibinyabugenge ndetse na za geography.

Abafundi bari kubaka inzu n'amatafari ahiye kandi iyo nzu bari kubaka izengurutswe n'urugo rwubakishije amabati mashyashya kandi hejuru y'iyo nzu hasizeho amarangi y'umweru.

Icyapa kirekire cy'umweru gishinze kuri sima gifite inkingi z'ubururu. Icyo cyapa cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara. Iruhande rw'icyo cyapa hari ubusitani butoshye cyane bwabonye imvura ihagije.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye rifite parafo y'umweru, rifite n'amadirishya y'ibirahure, rifite ikibaho cy'icyatsi kibisi n'ikibaho cy'umweru harimo na porojegiteri ifasha mu kwigisha, hakaba harimo n'intebe abanyeshuri bicaraho.

Ishuri abanyeshuri bigiramo ubumenyamuntu ndetse bakanakoreramo ubushakashatsi. Ririmo ameza n'udutebe tw'ubururu, imbere hari ikibaho cy'umukara ndetse n'ikindi kibaho cy'umweru, bakoreshaho porojegiteri.

Abanyeshuri bagiye mu cyumba cyahariwe gukorerwamo ubushakashatsi kizwi nka laboratwari, aho abanyeshuri bakorera amasomo bize mu magambo bakayashyira mu bikorwa. Icyo cyumba kiba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye nka za mikorosikopi.

Inyubako ndende zubakishije amatafari ahiye zisize n'amarange y'imyeru ku nkuta, zizengurutswe n'uruzitiro rwubakishije ibyuma, iruhande rw'urwo ruzitiro hateye indabo zifite amababi y'umuhondo, haca n'akayira gashashemo amapave.

Icyumba cya laboratwari kigizwe n'inkuta z'umweru muri icyo cyumba ni icyumba cyahariwe ubushakashatsi abanyeshuri bagenda bakigira ibikorwa bitandukanye harimo za microscopi bareberamo ndetse hakabamo n'utundi tucupa bafatiramo amaraso.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, ku rukuta rwayo hometseho icyapa gifite amabara y'umweru n'ubururu cyanditseho ibirango bya kaminuza y'u Rwanda mu ibara ry'ubururu. Imbere y'iyo nyubako hari ubusitani butoshye.

Ishuri ryo kwigiramo ikoranabuhanga, ririmo tapi y'ubururu, harimo n'utumeza duteretseho za mudasobwa, hagati y'utwo hateretsemo akadobo gafite ibara ry'ubururu, kandi muri iryo shuri harimo n'ibibaho byagenewe kwigirwamo.

Amazu afite inkuta zisize amarangi y'imyeru n'amadirishya n'inzugi by'imikara bikoze mu byuma, zisakaje amabati, imbere yazo hari jaride zitoshye neza. Imbere yazo na none kandi hari imbuga ishashemo amapave, ishinzemo ibyapa bibuza kuhaparika.

Inyubako ndende izengurutswe n'ubusitani butoshye, buteyemo ibiti bimera, izengurutswe n'utuyira tw'amapave, n'udusanduku bajugunyamo imyanda dufite ibara ry'umuhondo.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye, zifite inzugi z'imituku, zifite na parafo isize irangi ry'umweru, imbere yaho hateretse intebe ifite ibara ry'icyatsi, kandi hasi kuri sima hasize irangi ry'ubururu.

Intebe zibaje mu biti n'ibyuma, ziteretse hasi kuri sima mu cyumba cy'ishuri gisiza amarangi y'umweru ku nkuta. Kandi no muri parafu y'iryo shuri harimo amarangi y'umweru, kandi iryo shuri rishakaje amabati.

Inzu ifite inkuta zisize irange ry'umweru ishakaje n'amabati y'umutuku, izengurutswe n'uruzitiro rwubakishije ibyuma, iruhande rw'urwo ruzitiro haca akayira gashashemo amapave.

Icyumba cyo kuraramo gifite inkuta z'umweru, n'amarido ku idirishya, n'utubati tujyamo inkweto. Hejuru y'utubati, hateretse utuvido dutatu tw'umweru tubikwamo amazi yo kunywa.

Imodoka ya Kaminuza y'u Rwanda ifite ibara ry'umweru kandi kuri iyo modoka handitseho Kaminuza y'u Rwanda mu ibara ry'ubururu, iyo modoka iparitse hafi y'inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, isize amarange y'umweru ku madirishya, iyo nyubako mu mbuga yayo hashinzemo amatara maremare kandi hanashashemo amapave ku buryo isuku yaho yoroshye.

Ni inzu y'isomero yubakishije amatafari ahiye, inzugi z'imikara, amadirishya y'imikara, ndetse na parafo isize irangi ry'umweru, hesitayemo n'amatara, muri iyo nzu y'ibitabo abantu baragenda bagasomamo ibintu bijyanye n'ubuvuzi.

Icyumba cyo kuraramo kirimo intebe, ameza, ndetse ku nkuta z'icyo cyumba hasize irangi ry'umweru. Hejuru y'ameza ari muri icyo cyumba hateretseho ibikombe, amacupa yo gushyiramo amazi, ibitabo byo gusoma.

Iki ni ikibuga gikinirwaho umupira w'amaguru, hagati muri icyo kibuga hateyemo ibyatsi. Ku mpande z'icyo kibuga, hazengurutswe n'umuhanda w'igitaka kandi aho abanyeshuri bashobora gukinira, hazengurutswe n'ibiti byinshi.

Inyubako ndende, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, ikingishije inzugi z'ibyuma n'amadirishya y'ibyuma, bisize amarange y'imikara, imbere yayo hari imbuga ishashemo amapave, ihagazemo abantu batandukanye bari kuganira.

Icyumba cyahariwe gukorerwamo ubushakashatsi kirimo ameza ndetse n'utubati babikamo ibikoresho byifashishwa mu bushakashatsi, muri icyo cyumba hari n'ikibaho cy'umukara cyometse ku rukuta bakoresha bandika amaforomire atandukanye.

Inzu zifite fondasiyo y'amabuye, zisize amarangi y'umweru, zifite amabati atukura, imbere yazo zifite amadarage kandi mu mbuga yazo hanyanyagije utubuye kandi mu nkengero zazo hameze ibiti birebire.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo abanyeshuri bize, bakabikura mu magambo bakabishyira mu ngiro, hagamijwe kureba icyo bibyara cyangwa se kureba niba bihuye neza n'ibyo bari bize mu masomo yabo.

Ikigega kirekire cyubakishije sima, gisize irangi ry'umweru hejuru hari inyuguti zanditse mu ibara ry'ubururu, handitseho amazina ya Kaminuza y'u Rwanda, icyo kigega cyifashishwa mu kubika amazi mu gihe amazi yaba yabuze bakayakoresha.

Icyumba cyo kuraramo kirimo akabati, ibitanda, intebe ndetse na varisi ziri hejuru y'utubati.

Imbuga iri mu kigo cy'ishuri cyigisha imyuga n'ubumenyi ngiro, gishashemo amapave kandi kuri iyo mbuga hashinze amatente y'umweru, mu rwego rwo kwizihiza ibirori byahabereye.

Ni sale nini iberamo ibirori bitandukanye n'inama, harimo parafo y'umweru, harimo intebe zifite amabara y'imituku kandi imbere hatatse ibitambaro by'umweru kandi hateraniyemo n'abantu benshi.

Icyumba abanyeshuri bifashisha bari gushyira mu ngiro ibyo bize ndetse bakanakoramo ubushakashatsi butandukanye, gifite ameza asize irangi ry'umukara kandi harimo n'udutebe tw'ibyuma bicaraho mu gihe bari gukora ubushakashatsi.

Mo imbere mu nyubako, isize irangi ry'umweru ku nkuta, ifite n'amadirishya y'ibirahure. hateretsemo imeza, iriho ibirahure byajanjaguritse, bigaragara ko, bakiri kuyubaka, bataramara kuyubaka neza.

Ishuri ririmo intebe rifite inkuta zisize amarangi y'umweru no hasi kuri sima hasize amabara y'icyatsi, ririmo n'ikibaho gifite ibara ry'icyatsi harimo n'icyapa cyanditseho gifite amabara y'umweru n'ay'ubururu, ndetse n'ibirango bya kaminuza y'u Rwanda biri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cyo kubamo gishashe neza gisize amarangi ku nkuta, amarangi afite ibara ry'ubururu kandi hejuru hamanitsweho na porute manto bamanikaho imyenda, kuri icyo gitanda harambitseho umusego.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye rishakaje amabati rifite parafo isizi irangi ry'umweru, ku rubaraza rw'iryo shuri hashashe amakaro y'umweru kandi inzugi z'iryo shuri zikoze mu byuma zisize n'irangi ry'umukara.

Umubyeyi wambaye ikarita mu ijosi, ari gutanga ikiganiro akoresheje indangururamajwi, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ishuri ry'imyuga n'ubumenyi ngiro.

Ababikira babiri bambaye imyenda y'imikara bahagaze imbere y'inyubako isize amarangi y'umweru ku nkuta, ishakaje amabati y'ubururu. Ku mbuga y'iyo nyubako hashashemo amapave ku buryo hahorana isuku.

Umuntu yicaye mu isomero, isomero rifite ibikuta bisize amarangi y'umweru, n'amadirishya asize amarangi y'umukara. Imbere ye, hateretse imeza iteretseho mudasobwa, ndetse harambitseho n'ikaramu.

Ikigo cya kaminuza cyubatse ku buso bunini, mu tuyira duca muri icyo kigo tugiye dushashemo amapave. Mo imbere muri iki kigo hari ikigega kirekire cy'umweru cyubatse neza. Aho abanyeshuri bashobora kuvoma amazi.

Icyumba cyahariwe gukorerwamo ubushakashatsi, kirimo utubati dukoze mu biti, ku nkuta z'icyo cyumba hasizeho irangi ry'umweru, kandi kirimo na parafu z'umweru, inzugi n'amadirishya z'icyo cyumba zikoze mu biti.

Ishuri ryiza cyane rigezweho ririmo udutebe dukoze mu biti, inkuta z'iryo shuri zisize amarangi y'umweru, kandi imbere hari n'ikibaho bakoreshaho porojegiteri amadirishya y'iryo shuri arimo ibirahure.

Icyumba cyo kuraramo giteguye neza, kirimo ibitanda bibiri bishasheho amashuka y'imyeru n'imisego ifite amabara ajya kuba umutuku. Hagati y'ibyo bitanda hateretseho akameza kariho itara.

Abanyeshuri bari kwiga mu ishuri bakurikiye mwarimu banafite za mudasobwa zabo kugira za mudasobwa ni ikimenyetso cy'uko ikoranabuhanga ari ingenzi cyane mu burezi, bifasha mu guteza imbere ireme ry'uburezi.

Laboratwari icyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi kugira ngo abanyeshuri basobanukirwe neza ibyo bize, babikure mu magambo babishyire mu bikorwa. Iki cyumba kirimo imashini ndetse n'utubati bisize amarange y'ubururu.

Inyubako zubagukisheje amatafari ahiye zisize amarangi y'umweru ku nkuta zisakaje amabati, iruhande rwazo hari jaride zirimo indabo zifite amabara y'iroza, kandi zo jaride zikikijwe n'udukuta dusize amabara y'umweru.